Aha ahantu hacuruza ibikoresho by'ubucuruzi, urugero igorofari, umwiko n'ibindi bigiye bitandukanye kuko ntabwo ibi bintu biri kugaragara neza, bigaragara ko bishushanyije ku gikuta, ibyo rero bigaragaza ko babicuruza umuntu ashobora kuhagera akamenya ko yabihagurira, bityo bikaba byamufasha kumenya ibikorerwa aho hantu.

Ikibumbano gikozwe mu ibumba, bagishushanyije bigana umutwe wumuntu, inyuma yacyo hari n'ikindi kibumbano kiri inyuma, aha hantu hashobora kuba bahasura kugira ngo barebe ibibumbano byakozwe n'intoki.